Amazu menshi bigaragarako ari ikigo nderabuzima, gifasha abaturage mu gukomeza kugira ubuzima bwiza, babavura babaha ibinini cyangwa se imiti itandukanye ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze.

Umubyeyi wibarutse akaba akiri mu bitaro ubona ko ari kumwe n'uruhinja. Umwana ukiri mutoya utaranareba, utararagirana na muvu n'imwe akora.

Abaganga bari muri laboratwari, barimo gutunganya imiti runaka, kugira ngo babashe gukomeza gusigasira ubuzima bw'ibinyabuzima.

Igiti kera imbuto za voka ziribwa zigakorwamo n'amavuta yo mu mutwe. Akaba ari igiti kera imbuto zikerera hejuru, ariko cyo gishinze imizi mu butaka, kandi kiryoha cyane.

Icyatsi cyitwa itovu, akaba ari icyatsi kimera ahantu hadakunda kugendwagendwa , cyagwase kwangirizwa n'ibirenge by'abantu cyase n'inyamaswa kuko amahene arabirya , kandi akaba ari icyatsi kigira amacumu ku buryo ugikozeho nabi kigushinga kikagupfumura.

Ibimera biri kumwe hamwe ku ruzitiro ubona ko bikoze uruzitiro hariho imishubi, intusi ya nyiramweru ndetse n'ibindi biti ubona ko higanjemo nyiramweru, intusi ya nyiramweru.

Ubwoko bw'igiti, buterwa bukitabwaho kandi bugakura vuba, akaba ari ubwoko bwitwa inturusu, cyangwa se intusi nkuko bamwe babivuga.

Tungurusumu nk'igihingwa kigira akamaro kanini; haba mu kuvura indwara, haba mu kuzikoresha; kuzigereka ku biryo ndetse no kuzikoresha wivura waba uribwa munda.

Ubwatsi buhinze bwitaweho neza bwitwa urubingo, akaba ari ubwatsi buribwa n'amatungo kugira ngo abashe gukomeza kubaho, ubona ko hariho n'igiti cya gereveriya.

Aya ni amatunda. Amatunda yitwa amapera, amaperi. Akaba ari amatunda iyo atari yera abasa n'icyatsi kibisi. Iyo amaze kwera cyangwa se ari kwera, agenda ahindura ibara asa n'umuhondo.

Ubutaka budahinzwe ari ikibara, ariko nk'uko bigaragara harimo iteke, tungurusumu, ibyatsi byitwa inteja, ndetse n'ubuguru bw'inuma, ndetse n'uturayi, ariko bigaragara ko hadahinzwe ahubwo ibi ngibi ari ibyimejeje, nka tungurusumu ubona ko ari iy'ameze bivuze ko higeze guhingwa tungurusumu.

Urugori rw'ibyatsi, ibimera bigiye bitandukanye harimo inteja, harimo ibibonobono, ubona ko ari ibyatsi bimeze neza biteye ahantu hari ifumbire.

Ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi, ubutaka ubona ko ari ubutaka bweramo ibigori, ndetse mu bigori harimo n'igiti kitwa sipur,i nacyo akaba ari igiti abaturage bifashisha bubaka.

Ubu ni ubwoko bw'imboga, imboga nyarwanda zitwa isogo. Imboga zirura ariko zikaba ari imboga ziryohera abazirya, kuko ni imboga zituma mu kanwa hataza agaseseme. Iyo waziriye uba wumva mu kanwa nta gaseseme karimo kuko zirarura.

Kimwe mu bimera ibyatsi gikoreshwa cyane cyane mu kuvura imvune kitwa inyabarasanya, icyatsi gikoreshwa umuntu akandisha imvune aho yaba yatsikiye akavunika, cyangwa se agakuba akaguru.

Inyubako nziza kandi imeze neza, ubona ko ari ikigo cy'amashuri nk'uko hari smart classroom, ndetse hakaba hariho n'icyatsi cyitwa igitsembatsembe ndetse n'amahuhwa, ubona ko igitembatembe kirimo gushaka kuma no kumya amababi yo hasi.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, ubwoko ubona ko ari ibimera biri ahantu hatuje, hatajya hagenrwa n'amatungo, kuko ibimera bikundwa n'amatungo. Higanjemo icyatsi cyitwa ikinyamata, iyo ukivunnye cyangwa se ukagica, kizana amata.

Ahantu hari ibimera bituje cyangwa se hatuje ku buryo bigaragara ko nta kibyangiza kibigeraho, birashishe, bimeze neza ndetse, hirya hari indumbura. Ibiti bizwi ku izina ry'indumbura cyangwa se arinusi.